Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi. Yambaye n'isaha, akaba ari kwinjira mu kazu kari mu ibara ry'umutuku, kanditseho amagambo asobanura ko ari akazu ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel. Ahatangirwa serivisi zo kubitsa ndetse no kuwifuza.

Umusore ukorera sosiyete y'itumanaho ya MTN, yicaye ku muhanda yambaye ijire y'umuhondo akaba afite n'umutaka w'umuhondo wanditseho MTN, aho inyuma ye hari inzu z'ubucuruzi zicuruza ibicuruzwa bitandukanye. Imbere ye hakaba ari umuhanda ugendamo imodoka ndetse n'ibinyamitende.

Abantu batanu bakorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel, bari kwifotoreza mu nzu aho iruhande rwabo hari igipapuro gishushanyijeho umukobwa nanone uri kwifotora akaba ari igipapuro cy'umweru kirimo irangi ry'umutuku hagati.

Umugabo wambaye ijiri y'umutuku. Yegamye ku kazu kari mu ibara ry'umutuku akaba ari akazu gakozwe mu cyuma ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel, aho ari kumwe n'umukiriya waje kubikuza amafaranga.

Abagabo batatu bambaye amajire atukura basa n'abakorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya Airtel, bakaba bari kwamamaza iki kigo cyabo, aho inyuma yabo hari umutaka harimo abandi bakozi bari gutanga izo serivise.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye ijire isa n'umuhondo, akaba akorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Emutiyeni. Yicaye mu kagare k'abafite ubumuga ari na ho atangira serivisi zitandukanye zo kubitsa ndetse no kubikuza.

Abantu batanu bahagaze, babiri bambaye imipira y'umweru, abandi babiri bambaye iy'ubururu, aho undi ari umupolisi, wambaye impuzankano y'abapolisi, akaba ari kuganiriza abaturage, ababaza niba afite ibyangombwa.

Umugabo yambaye ijire y'umuhondo akaba yicaye mu ntebe ya parasitike y'ubururu aho yicaye ku kantu gakoze mu giti gateye amarangi y'umutuku, hakaba hariho n'umutaka w'umuhondo wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, imbere ye hari inzira y'abanyamaguru iri ku ruhande rwa kaburimbo irimo amapave.

Umugabo wambaye isaha ndetse n'agapira k'amaboko magufi, akaba yagiye ku kazu ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, aho ya asanze umugabo ukoreramo akaba yagiye gushaka serivise zo kubikuza amafaranga.

Sosiyete y'itumanaho Rwanda ya Airtel ikunze kugendana ibirango by'amabara y'umutuku yaje kwiyamamariza ku karubanda aho iri kwamamaza serivisi yayo nshya hakaba haje abantu benshi cyane baje kwiyumvira ibyo byiza.

Abantu benshi bakoresha telefone ndetse na banki, bakaba baje ku kazu k'icyuma kariho amarangi y'icyatsi, kakaba gashushanyijeho imodoka, bakaba baje gukatisha amatike y'urugendo ,aho hakurya hari inzu y'igorofa igeretse kabiri.

Abantu benshi cyane baturutse impande zose z'isi bahuriye mu gihugu, aho bari kwifotoza nyuma y'uko bamaze gukora inama yiga ku buryo amabanki ndetse n'amakoperative yazajya akorana mu bihugu bitandukanye.

Abaturage bagize Koperative Tuzamurane barahagaze bakaba bari kwifotoza, buri umwe yazanye umufuka w'umweru aho bitegura gutwara imbabura zabugenewe zifashishwa mu guteka ariko zitangiza ibidukikije.

Abantu benshi cyane bakaba ari abahinzi borozi bisa n'aho abakoze koperative ibafashafa gufatanya, bikoreye imbuto mu bihoho bamwe bakaba bikoreye mu mabase abandi mu bitebo, aho undi mugabo ari kubisunika ku igare hakaba hari n'umugore uri kumusunikira inyuma.

Isoko rinini cyane ryubatswe n'abagize koperative, aho batewe inkunga na leta. Ryubakishije amabati y'ubururu ,rikaba ifite imbuga ngari. Iri soko ricururizwamo ibicuruzwa byinshi cyane byiganjemo imboga n'imbuto.

Abakozi batandukanye bagize koperative ndetse n'abandi bakora muri banki bigaragara ko ari abakire bakorera hamwe kugira ngo bahinge ibihingwa bitandukanye bifasha abaturage b'abakene kuva mu bukene.

Abagabo benshi cyane ndetse n'abagore, bambaye imyenda myiza bigaragara ko ari abanyamuryango ba koperative heza kuri bose bakaba imbere yabo ari inanasi zitondetse bigaragara ko ari umusaruro w'ubuhinzi bakora.

Abanyamuryango ba koperative Tuzamurane bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye y'impunyu bakaba bafite igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo y'impine ra, va, ca, pa Nyagatare.

Inyubako itangirwamo serivisi za banki. Ikaba ari inyubako yubatswe na koperative Tuzamurane ku bufatanye na guverinoma y'u Rwanda. Inyubako iteye amarangi y'umweru iriho ibigega bibiri by'umukara bifite amazi ava hejuru y'nzu.

Abayobozi batandukanye bakorera muri banki ndetse n'abandi bakorera mu makoperative bateraniye hamwe, aho imbere yabo hari umushyitsi mukuru w'imena akaba n'umugabo wambaye ikositimu ari kubaganiriza uburyo butandukanye bakorana kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Inzu nziza cyane ya bare, icururizwamo inzoga zitandukanye, hari iza Henikini, ibyuma ndetse n'izindi zitandukanye, harimo firigo, hakabamo ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugabura inzoga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturango tw'umweru, iruhande rwawo hakaba hari inyubako nziza cyane ziriho n'igipangu, hari n'icyapa kigaragaza ko aho ngaho hari amaresitora, ndetse n'izindi serivisi zitandukanye ziri mu iyo nyubako.

Abantu babiri ni abahungu bakaba bicaye ku ntebe ndende mu nzu icururizwamo ibyo kunywa, ni inzu ifite urugi rw'icyuma, ifite ikirahure kibonerana aho mu nzu harimo inzoga zitandukanye ziri muri etajeri.

Umugabo wicaye mu nzu bacururizamo ibyo kurya n'ibyo kunywa yambaye ingofero y'umutuku akaba afite ubwanwa bwinshi. Imbere ye hari ameza ateretseho ibirahure byinshi birimo inzoga ari kunywa, mu gihe iruhande rwe hicaye undi mukobwa uri kureba muri telefone.

Terimusu iri mu ibara ry'icyatsi. Iteretse mu nzu y'ubucuruzi, iruhande rwayo hakaba hari indobo y'umweru ikunze kuba irimo imigati n'amandazi. Hari etajeri, nziza cyane, iteretsemo ikidomoro ndetse hakaba harimo, na biswi ya Girikoze.

Umugore wambaye iribaya. Yiteze igitambaro cy'umukara akaba ari gu acururiza mu nzu ye ibicuruzwa bitandukanye birimo: isukari, ibinyampeke, hakaba ibirungo ndetse n'ibindi byinshi biri mu kabati.

Umugore wabigize umwuga. Akaba ari inararibonye mu bucuruzi ,ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye. Birimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Bimwe bipfunyitse mu mashashi ,ibindi ni ibirungo, ibindi biri mu bikombe bisa naho ari isukari.

Inzu nziza y'ubucuruzi iri ku muhanda, ikaba iteye amarangi y'umweru, harimo ibicuruzwa bitandukanye, aho imbere handitseho ko bakanika telefoni z'ubwoko bwose ndetse bakaba bacuruza n'ibikoresho ndetse n'ibice bitandukanye bya telefoni.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, harimo imifuka irimo ibinyampeke, hakabamo ibindi bicuruzwa birimo amavuta yo guteka, ibiribwa, akawunga ndetse n'ibindi byinshi, imbere hakaba hari amakarito arimo ibirungo.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda. Imyinshi muri yo irasa n'umutuku, aho harimo amakanzu, imipira y'amaboko magufi ndetse n'amapantaro, ku ruhande hakaba hari ama marete asa n'umutu, byose biri gucuruzwa.

Umukobwa wihangiye imirimo ari mu nzu acururizamo isakaje amabati, harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo amavuta yo kwisiga umuti w'amenyo, ibyo kurya, ibyo kunywa hakaba imbere ye hari indobo ndetse n'ijagi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ikaba iteye irangi ry'umweru ikaba ihagazeho umuntu ucururizamo, imbere hari imboga y'amapave hakaba hari n'ibicuruzwa bitandukanye birimo amaji, amabase, ibidomoro ndetse na supagura.

Umugore acururiza mu nzu harimo ibicuruzwa byinshi cyane, birimo inyanya, ibitunguru, hakaba hari amasahani, amacupa y'amavuta yo guteka, ibirungo ndetse n'ibindi bitandukanye, byose bacuruza ku baturage batuye mu umudugudu ndetse n'abagana iri isoko.

Inzu ikorerwamo serivisi z'ubudozi, harimo umugore umwe w'umudozi, wicaye ku mashini, akaba ari kurambura igitenge agipima, hahagaze undi mugabo wambaye agapira k'amako magufi ari na we waje kudodesha, hirya hakaba hari ahantu hatendetse ibitenge byinshi cyane.

Inzu nziza cyane akaba ari kiliziya y'abayoboke b'idini rya gatolika, yubakishije amatafari y'imunyu, ikaba isakaje amabati atukura, hejuru hari umusaraba, aho imbere hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'imikindo.

Umunsi wo ku cyumweru aho abakiristo bo mu idini rya gatoka bahuriye hamwe, bakaba baje gusenga. Bigeze mu gihe cyo gupfukama, aho buri mukirisito yapfukamye, imbere yabo hari n'umugabo wamatse amaboko wicaye ku ntebe, usa naho ari we ubayoboye.

Urusengero runini cyane, rukaba ari urwo abayoboke b'idini y'aba penekositi, aho bubakishije amatafari ahiye, imbere haparitse imodoka y'i toyota, mbese hakaba hari n'imbuga ngari idashije neza.

Abayoboke b'idini rya ADPR, bakaba baje mu rusengero, aho ari umunsi mukuru w'igaburo, buri wese bamuhaye agatasi gatoya, akaba ari kunywa amaraso ya Kiristo mu kimenyetso cya divayi.

Abagore bane ndetse n'umugabo umwe, bakaba ari abayoboke b'idini y'Abapenti, buri wese afite agasahani ke, aho umugore umwe ari kugenda abasukiramo igikoma kugira ngo banywe, bashire inyota.

Urusengero runini cyane rurimo intebe zikoze mu mbaho zikaba ziriho imifariso y'ubururu. Urusengero ruteye amarangi y'umweru, rukaba rurimo n'ibirahuri byiza cyane bisa n'ubururu ndetse n'icyatsi, aho birinda amajwi kugera hanze.

Icyumba cya hoteli giteguye neza, giteye amarangi y'umweru kikaba kirimo parafo y'umweru harimo ikirori umuntu yireberamo hakaba harimo n'igitanda gishashe neza kiriho amashuka y'umweruro, ndetse n'imisego ine isa naho ari igitanda kiryamaho abantu babiri.

Ahantu heza cyane, hatangirwa serivisi z'amahoteli, hari ubwogera bunini cyane, hakaba hari imitaka, munsi ya buri mutaka hakaba hari intebe ebyiri z'umukara, ku ruhande hari imbuga iriho amapave ndetse hakaba hari n'ubusitani burimo umucaca ndetse n'imikindo.

Inyubako ya hoteli, ni igorofa rigeretse kabiri, ikaba iteye amarange y'umweru, irimo amadirishya manini cyane y'ibirahuri, ikaba isakaje amabati atukura, aho hejuru y'amabati hari imirasire ine itanga umuriro.

Muri hoteli hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutegura ibiryo ndetse n'ibyo kunywa abakiriya bakenera, hari ibikoresho bibiri byifashishwa mu guteka ji ndetse n'ibindi bitanu bibikwamo ji kugira ngo ikonje.

Inzu nziza akaba ari icyumba cya hoteli kirimo ahantu ho kwituma hakaba n'ibindi bikoresho harimo aho gukarabira intoki umaze kwituma ndetse n'ubwogero bwiza cyane burimo ibirahure bibonerana.

Hotel irimo igitanda cyiza cyane , giteye amarangi y'umweru , hakaba harimo igitanda gishashe neza, kiriho n'amashuka y'umweru, aho hari imisego ibiri, ku ruhande hakaba hari akabati gato kabikwamo ibikoresho.

Abantu baturutse impande zose higanjemo abayobozi bakomeye muri Guverinoma y'u Rwanda, bahuriye muri hoteri aho bagiye kwiyakira barushaho no kuganira ku buryo barushaho guteza imbere abaturage b'u Rwanda.

Ibintu bitandukanye birimo ibinika, ikirahure kirimo ji, agatasi, ndetse n'ibindi bintu ntamenya ubwoko bwabyo, biri mu cyumba cya hoteli aho byose byifashishwa n'abari muri hoteli mu kwita ku bakiriya baje baba bagana.

Muri hoteli hari ibikoresho bitandukanye ,birimo intebe nziza z'imifariso, ziri mu ibara ry'icyatsi, udutebe duto, akameza ndetse hakaba hari n'igitanda gishashe neza kiriho amashuka ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cya hotel giteguye neza, ni icyumba kirimo amarangi y'umweru ndetse n'umukara, ku ruhande rumwe hakaba harimo igitanda kiryamaho abana babiri, giteguye neza kiriho amashoka n'imisego, imbere y'igitanda hakaba hateretse intebe nziza y'umufariso.

Icyumba cya hoteli giteguye neza ,kikaba kirimo igitanda kiriho imisego ibiri. Bisa naho ari igitanda kiryamaho abantu babiri. Hakaba hariho amashuka y'umweru. Icyumba kirimo amarido y'umuhondo ndetse n'ay'umweru, hakaba harimo n'ibirahuri umuntu akoresha areba hanze.

Inzu nziza cyane, ni igorofa igeretse rimwe, ikabateye irange ry'umuhondo. Ifite amarembo manini cyane, aho umuhanda ujyayo urimo amapave, kuruhande hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru karimo itaka.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, iteye amarange y'umuhondo, ikaba isakaje amabati atukura. Imbere yayo hari imbuga ngari iparitsemo imodoka ndetse iyi inyubako akaba ari hoteli itangirwamo serivisi zitandukanye, zijyanye n'amafunguro ndetse n'ibinyobwa.

Muri hoteri hari intebe nyinshi cyane ,intebe zo mu byuma ziriho imifariso y'umutuku ,hakaba ameza ari mu ibara ry'umukara, inyuma hari ibikoresho bitandukanye bitagaragara neza, kuko ari mu mwijima.

Inyubako nini cyane ya hoteri. Ni igorofa igeretse kane, imbere yayo hari ubwogero bunini cyane bw'akataraboneka, aho iruhande rw'ubwogero, hari indabo ndetse n'ibiti binini cyane by'inganzamarumbu.

Inzu ya hoteli irimo amarange y'umweru, hakaba harimo intebe ndetse n'ameza aho imbere yaho hari n'utundi dutebe duto tubiri, harimo amarido y'umweru hakaba hari n'urugi ruri mu ibara ry'umukara.

Icyumba cya hoteli kirimo intebe nziza cyane z'imifariso zirimo amabara yaikijuju, imbere hari ameza cyane abonerana ateretseho ururabo ruri mu ibara ry'umweru, imbere hakaba hari n'amarido y'umweru.

Abantu benshi cyane bahuriye mu isoko. Aho bazanye ibicuruzwa bitandukanye bikomoka ku buhinzi. Batatu muri bo bafite ibitoki bya kamara, aho inyuma yabo hateretse imifuka irimo avoka zidahiye.

Intama nziza cyane iziritse umugozi mu nda ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'ikijuju, iziretse ku giti aho nyirayo ahagaze ku ruhande yambaye inkweto zifunze akaba agiye kuyijyana ku isoko.

Isoko ry'akataraboneka. Ririmo ibicuruzwa bitandukanye, birimo inyanya, imeneke ya kamara, voka, ibibiririganya ndetse n'ibindi. Ubona ko muri aka gace byera ku bwinshi ndetse bikaba bitarishwe n'izuba.

Abantu benshi cyane baje mu isoko, bakaba bazanye ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda, muri iri soko harimo amagare menshi hakaba haparitsemo moto imwe ndetse n'imodoka imwe iri mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi cyane bahuye mu isoko, aho abaju ba ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imyenda, hari umugore wicaye uri gucuruza, imyenda y'abagore, hakaba n'indi myenda myinshi cyane itanditse inyuma ye, mu maetajeri.

Umugore wambaye ishati idoze mu gitenge. Akaba yambaye agapfukamunwa ndetse yiteze n'igitambaro, ari mu isoko aho ari gutembena tungurusumu kugira ngo arebe niba yabona umukiriya akazigurisha, akabona amafaranga.

Umugore akaba n'umucuruzi wabigize umwuga, yambaye ishati y'umweru yiteze igitambaro aho ari kugenda mu isoko yikoreye inkoko iriho imbuto ziganjeho amaronji n'indimu.

Isoko rinini cyane riri mu cyaro, rikaba ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo inkweto za bodaboda, zaba iz'abana n'iz'abakuru. Zimwe zirasa n'umuhondo, hakaba izisa n'ubururu, umutuku ndetse n'izisa n'icyatsi. Aho hari umugabo uri kuzicuruza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bahuriye mu isoko, bakaba baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye, nkaba mbona umugabo umwe ufite indobo y'umweru irimo amagi, ari kugenda ayatembereza, ku ruhande hakaba hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibikoresho by'isuku.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, aho baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibiribwa. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abana. Abenshi muri bo bakaba ari abagabo, hakaba n'umugabo uri gusunika igare.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umuhondo, mu gihe cy'ijoro amatara akaba yakije. Ni resitora icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, harimo ameza ateretseho ibinyobwa ndetse hakaba n'intebe abakiriya bicaraho iyo bari kurya.

Kaburimbo y'umukara. Ku ruhande hari ibisima biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hakaba hari kugendamo imodoka nziza cyane. Hepfo y'umuhanda hari amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Umugabo w'umumotari wambaye ikasike y'umuhondo, ari kuri moto ifite purake RG821N. Akaba ari kuyitwara, imbere ye hakaba haparitse izindi modoka ziri mu mabara atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane biganjemo abamotari aho burimwe afite moto bakaba bakorera muri koperative imwe kuko bose bambaye amaje asa n'ubururu akaba yanditseho n'amagambo amwe.

Kaburimbo impanuka harimo umugabo uhagaze ku igare yambaye ishati ya karokaro ahagararanye n'umukobwa wambaye ijire y'umuhondo usa naho akorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, ku ruhande hakaba haparitse ikimodoka kinini.

Kaburimbo impanuka, iri ikugendamo ikinyabiziga cya moto, aho iri kumanuka ku muvuduko mwinshi, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, hakaba n'inyubako nini cyane, akaba ari urusengero rw'abayoboke b'idini rya gatoka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kumanukamo moto ihetse amagenzi. Ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru, aho hari n'icyapa kigaragaza ibikorwa bitandukanye, bikorerwa mu nzu ziri ku ruhande aho ngaho.

Umugabo ukora akazi k'ubumotari ahetse umugenzi w'umukobwa kuri moto, bose bakaba bambaye amakasike y'icyatsi, bari gutembera mu umuhanda wa kaburimbo bonyine aho hirya ku muhanda wa kaburimbo hari sima iteye irangi ry'umukara ndetse n'iry'umweru.

Kaburimbo nziza cyane irimo umurongo w'umuhondo mo hagati ikaba irimo ibinyabiziga bitandukanye birimo moto nyinshi cyane ndetse akaba hari umusore atwaye igare ,uri imbere yabo ku ruhande rwa kaburimbo hari amapoto ariho amatara amurikira abagenzi bo mu muhanda mu gihe k'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyamitende bibiri. Moto imwe iri kumanuka iriho uyitwaye ndetse n'umugenzi bambaye amakasika atukura. Mu rundi ruhande hakaba hari indi moto iriho umumotari udafite umugenzi, aho ku rundi ruhande hari n'umugenzi uri kugenda n'amaguru.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byahuriye mu muhanda. Aho ubona ko bidakuyemo cyane, harimo aba motari bari kugenda bakatakata hagati y'imodoka. Ubona ko bashobora gukora impanuka. Kuruhande rw'umuhanda hakaba hari ibiti birebire cyane bikurura umwuka mwiza abantu bahumeka.